Umwana muto w'umukobwa wirabura ari kumwe na nyina, amuzanye guterwa urukingo n'umusore wambaye ishati n'ipantaro ya kaki ndetse inyuma yabo hari umugabo wirabura wambaye umwenda w'umweru, ufite ikaramu mu kiganza.

Umwana muto wirabura w'umukobwa yambaye agakanzu k'umweru ari kumwe na nyina yaje guterwa urukingo, ibumoso bwe hari umusore w'umuganga w'imibiri yombi ari kumutera urushinge, inyuma yabo hari umugabo wirabura wambaye umwenda w'umweru ndetse afite ikaramu mu kiganza.

Umwana muto w'umukobwa, wambaye umwenda w'umweru, ari gukingirwa ku kaboko ke k'iburyo, hakoreshejwe urushinge rwabugenewe, mu rwego rwo kurinda, gukumira no kwita ku buzima bwe bwa buri munsi.

Umubyeyi w'umugore wirabura ari mu ivuriro yambaye agapfukamunwa k'umweru aryamye ku gitanda, ari kumwe n'abagore babiri uri iburyo bwe ni umuforomo ari kumupima undi ari kubafasha.

Abana batatu b'abahungu birarabura, bari kuvoma amazi ku mugezi, uhereye ibumoso bwabo uwambere yambaye umupira w'ubururu bwijimye, ari gukoresha indobo y'umweru, uwa kabiri yambaye umwenda w'umuhondo.

Abana bato abahungu n'abakobwa birarabura, bari kumwe n'abasore, abagabo, n'inkumi, baje ku ivomero kuvoma amazi, bitwaje amabido, amabase, n'indobo bayatwaramo.

Abagore n'abakobwa benshi birabura baje kuvoma amazi bitwaje amabido atandukanye, batondeka imbere y'ivomero kandi ari nako akurikirana mu gihe avomerwa usoje akishyura akagenda, abandi nabo bagakurikira.

Hari abaturage benshi barimo: abasaza, abagore, abakecuru, abasore, abana, imbere yabo hamanitse Ibendera ry'Igihugu cy'u Rwanda, hari n'imodoka ishinzwe gutwara abarwayi ku ivuriro.

Urubyiruko rurimo abakobwa n'abasore benshi harimo abambaye amataburiya y'umweru, bahagaze hanze y'inyubako nini isize irangi ry'umweru, bishyize hamwe mu rwego rwo kugira ngo bafatikanye bagere ku ntego biyemeje ndetse bananoze umurimo.

Abaturage benshi cyane batandukanye, harimo abagabo, abasore, abagore n'inkumi bitabiriye inama bitwaje amakayi bandikamo bimwe mu biri buze kuvugirwa mu nama, ndetse n'imyanzuro iri buze gufatirwamo.

Umugabo muremure wirabura yambaye ishati y'ubururu n'ipantaro y'umukara, ari gukara ibiganza akoresheje uburyo bwa kandagira ukarabe bwashyizweho na leta y'u Rwanda, ishaka korohereza abaturage bose kwikorera isuku, mugihe icyorezo cyateraga.

Abaganga babiri b'abanyamwuga babihuguriwe, bambaye imyenda y'akazi ndetse n'udupfukamunwa, baje mu gace karimo abaturage, bakaba bari gusuzuma buri muntu, bareba ko ubuzima bwe buhagaze neza kandi nta kibazo afite.

Igikorwa cyitabiriwe n'abantu benshi harimo abasore, inkumi zirabura, bakaba bambaye neza bishimye, bakaba bishyize hamwe kugira ngo umurimo wabahuje bawunoze neza.

Umukobwa mwiza cyane imibiri yombi, ufite imisatsi yirabura, wambaye isengeri y'umukara, ndetse n'ipantaro y'ikoboyi, yicaye ahantu heza ari guseka neza cyane, arishimye, mbese aranezerewe koko.

Umugore wirabura ukuze atekeye ku nkwi, yicaye ku gatebe, ateze agatambaro, akenyeye igitenge, iburyo bwe hari umupfundikizo w'isafuriya n'agakombe k'icyatsi, ndetse arishimye cyane.

Umwana muto w'imibiri yombi ari kuvurwa amenyo n'inzobere yabigize umwuga, hakoreshejwe ibikoresho bitandukanye by'ubwoko bwinshi byujuje ubuziranenge bwasuzumwe n'ibigo bishinzwe, mu kuvura no gukura amenyo neza.

Umukobwa wirabura mwiza w'inkumi, ari mu bwogero ahagaze imbere y'indorerwamo yoza amenyo, akaba afite imisatsi miremire y'umukara, yambaye agasengeri k'umweru ndetse akaba yishimye cyane.

Umusore mwiza w'imibiri yombi, munini, ufite ubwanwa, wishimye, afatishije akagozi n'amako ye yombi, ko kogesha amenyo, nka bumwe buryo bwo kurinda amenyo no kuyitaho kugira ngo acye ase neza ndetse ayarinde uburwayi bwa hato na hato.

Ivuriro ry'amenyo hari ibikoresho by'ikoranabuhanga, nk'ibyuma byifashishwa mu gusuzuma uburwayi bw'amenyo, intebe yicazwamo abarwayi yihina, ikabasha kongera kurambuka hifashishijwe imbaraga z'amashanyarazi.

Umusore wirabura w'umuganga wambaye ishati, itaburiya y'umweru n'agapfukamunwa, afite umurwayi w'umugabo ukuze imbere ye, wambaye agapira k'umuhondo ari kuvura amenyo yifashishije ibikoresho byabugenewe.

Umukobwa mwiza cyane w'imibiri yombi, wambaye agasengeri k'umweru, hari imbere y'indorerwamo yoza amenyo akoresha igikoresho cyabugenewe, mu rwego rwo kuyafata neza no kuyarinda uburwayi bwa hato na hato buterwa n'umwanda.

Umusore mwiza w'inzobe, ufite ubwanwa, imisatsi yirabura, wambaye ishati irimo amabara y'umweru n'ubururu, wishimye, ari kuvurwa amenyo n'umuzungukazi w'inzobere, hakoreshejwe ibikoresho byabugenewe.

Ibikoresho bitandukanye by'ubwoko bwinshi byakozwe n'inzobere by'umwihariko iby'ikoranabuhanga bijyanye n'iterambere, byifashishwa mu gukurikirana, gusuzuma no kunoza neza ubuvuzi bw'amenyo y'abarwayi.

Umugabo w'inzobe usheshe akanguhe, yicaye mu ntebe, iburyo bwe hari umukobwa mwiza wirabura, useka neza, wambaye imyenda y'akazi, wahuguriwe kwita ku bantu bageze mu za bukuru, uri kumufasha.

Umugabo wirabura ukuze urwaye, afite amazi ari mu kirahure mu kiganza k'iburyo, ari ku n'umuforomokazi w'umunyamwuga wambaye imyenda y'akazi, uri kumushyira ibinini mu kiganza k'ibumoso ngo anyweshe.

Umugabo muremure ukuze wirabura, ari kumwe n'umugore w'umunyamwuga, wahuguwe kuzirikana no kwita ku buzima bw'abantu bageze mu myaka y'izabukuru, akaba ari kumufasha guhagarara neza ndetse no kugenda, yifashishije igikoresho cyabugenewe.

Umugabo muremure munini kandi ukuze unezerewe, ufashe ku rutugu umukobwa mwiza w'inkumi, ufite inzobe ikeye, useka neza, kandi bishimiranye bafitanye urukundo rwinshi ndetse banambaye neza cyane.

Umusaza n'umukecuru bari kumwe birabura, bakaba bambaye impeta z'abashakanye, umusaza akaba afite ibinini mu kiganza cye cy'iburyo agiye kunywa, umukecuru akaba amwereka urupapuro ruvuye ku ivuriro rugaragaza uko ubuzima bwe buhagaze.

Abagabo babiri bakuze bambaye neza bari kugenda mu nzira bari kumwe, bishimiranye, baganira, baseka, banezerewe, bahuje urugwiro, mbese ni inshuti kandi baraziranye cyane.

Abagore babiri bakuze b'imibiri yombi, bari imyitozo ngororamubiri, barinda ubuzima bwabo uburwayi buterwa no kutiyitaho, bambaye amaherena, bari guseka ndetse bafite ibyishimo byinshi cyane.

Abadamu babiri bakuze b'imibiri yombi harimo uwicaye mu kagare k'ababana n'ubumuga wari kumwe n'umuganga wambaye imyenda y'ubururu bwijimye ufite imisatsi miremire akaba asuzuma ubuzima bwe uko buhagaze yifashishije igikoresho cyabugenewe.

Abaganga batandatu babanyamwuga bashinzwe kwita ku buzima bw'abantu, gukora ubushakashatsi ku burwayi bushya n'icyorezo no kugishakira igisubizo, bambaye imyenda y'akazi mu masaha y'ijoro, ndetse nyuma yabo hari umugabo wambaye umupira w'ubururu.

Iyi nama iri kubera muri Hoteri mu gihugu cy'u Rwanda, ikaba yitabiriwe n'abantu benshi, iyobowe n'abantu batatu, harimo umugabo wicaye hagati, iburyo bwe hari umunyarwandakazi, ibumoso bwe hari umuzungu.

Abagabo, abagore, inkumi n'abasore barimo abayobozi bashinzwe ibijyanye n'ubuzima mu gihugu cy'u Rwanda, bahagaze hamwe, bambaye neza, bishimye kandi banezerewe.

Umusore, mugabo n'umugore bahagaze mu nyubako y'ikigo nderabuzima cya Gishweru imaze igihe, inyuma yabo hari umugabo wicaye ku gatebe, ahategererezwa abakeneye serivisi zihatangirwaho.

Abagabo babiri birabura bambaye imyenda y'umweru hejuru, bari kumwe, bari kugenda hanze y'inyubako nziza cyane, nini, ifite ubusitani bugari iruhande yabwo ndetse itangaje cyane.

Abagabo, abagore, inkumi n'abasore barimo abaganga bihuriza hanze y'inyubako y'ivuriro rya Isange iri i Kabutare, bahujwe n'inama iri kuhabera bambaye neza n'udupfukamunwa.

Inama irimo abantu akabari umugabo muremure wirabura wambaye ishati yumweru n'ipantaro yumukara ikaba yerekana icyakorwa mu kugabanya malariya n'ingamba zafatwa mu gukumira ikwirakwira rya malariya ibumoso bwe hakaba ari umugabo wicaye wambaye umupira utukura ufite mudasobwa imbere ye.

Ivuriro rifite inyubako nini mu Mujyi wa Kigali mu Gihugu cy'u Rwanda, rivura rikanakurikirana abarwayi ba Kanseri, rikaba rifite ibikoresho byinshi bitandukanye by'ikoranabuhanga byifashishwa mu kwita ku baturage barigana.

Abaturage benshi batandukanye, bavuye hirya no hino, harimo abana bato, ababyeyi b'abagore n'inkumi bahagaze aho bakirira abagana ikigi nderabuzima, bategereje guhabwa serivisi baje bakeneye, kugira ngo babashe kuvurwa.

Icyapa kiranga ivuriro ryo kwa Nyirinkwaya, kiriho urutonde rurerure rwa serivisi zihatangirwa, zikaba imbere y'amarembo yaho, ho uhagana amenya ikihakorerwa n'icyo ashaka ko ari buze kugihabwa.

Uyu mugabo arirabura, afite ubwanwa yambaye umupira wa kake, ahetse umwenda w'umuhondo, ari mu myitozo ngororamubiri niyo mpamvu ari kunywa amazi ari mu gicupa cy'umuhondo.

Umusore w'umuzungu wicaye ku ntebe, yambaye ikabutura ngufi n'isengeri by'umukara, ibumoso bwe hari umukobwa uhagaze, imbere yabo hari ibikapu bibiri, bitwazamo ibikoresho bifashisha bakora imyitozo ngororamubiri.

Inyubako irimo ibikoresho by'ikoranabuhanga, byagenewe mu kwifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, harimo ibikora nk'amagare, ariko akoreshwa n'umuriro, ibigorora amaboko, amaguru, umugongo, ndetse n'ibindi.

Umukobwa w'inkumi isutsi wirabura, ari mu myitozo ngororamubiri, yambaye isaha ku kaboko ke k'ibumoso, ndetse na kamwe mu bikoresho by'ikoranabuhanga gapima umuvuduko w'amaraso mu mubiri, ari no kumva imiziki.

Igitabo cyagenewe kuyobora ugikoresha mu buryo bwiza butandukanye n'igihe cyo gukora imyitozo ngororamubiri, atibabaje, ativunnye cyangwa ngo yikomeretse kandi akabona umusaruro mu gihe gito.

Umukobwa wirabura unanutse, yambaye isengeri imwegereye, isaha y'umukara ku kaboko, akaba ari mu myitozo ngororamubiri, mu rwego rwo kurinda ubuzima bwiwe, akaba ari ahantu hiherereye ndetse ari kumva n'imiziki.

Umukobwa w'inzobe ushinguye, ari kunywa amazi akoresheje akabokoko ke k'iburyo, yambaye imyenda yagenewe kwambarwa mu myitozo ngororamubiri y'umukara ndetse na kamwe mu bikoresho by'ikoranabuhanga kagenzura imigendere y'amaraso mu mubiri.

Umusore muremure wirabura munini, ukomeye, ufite ubwanwa, yambaye agapira kamufashe, afite icupa ririmo amazi mu kaboko ke k'ibumoso, ari kuyanywa ariko akamutarukira no mu maso.

Amazi menshi kandi meza ari mu gicupa cy'ubururu kirimo n'akabara k'umutuku ari gusukwa mu kirahure kitari gito cyangwa kinini, cyiza, gisa neza ndetse cyakorewe isuku.